Ifumbire y' imvaruganda, ya ire, ikoreshwa mu ibagara, Ifitemo niporojene mirongo ine na gatandatu isa n' umweru. Ikoreshwa ku bigori biri kubagarwa no mu mboga .

Inyanya barimo kuzitera umuti, zarashoye ni nyinshi, ni nziza, ntabwo zari zera, ziraryoha, zikunzwe na benshi, kuko zihindura ibiryo bigasa neza, buri wese abirya afite apeti.

Abagabo bahetse amapombo, bambaye imyenda yabugenewe mu gutera imiti. Barimo gufuhira imyaka barwanya ibyonnyi. Bakaba bari gutera umuti ibigori. Inyuma yabo hari igiti cy'inganzamarumbo kinini.

Umugabo uhetse ipombo yambaye ingofero, ateze igitambaro, yambaye umupira w'umukara, n'ipantaro y'umukara, bote ,ari gutera umuti mu mboga urwanya udukoko.

Mu miti yica udukoko iri mu budomora, mu macupa, abagoronomu barimo kureba iyi miti. Harimo iterwa mu nyanya, karoti, imboga, n'ibindi bitandukanye.

Umugabo uhetse ipombo y'ubururu, arimo gutera umuti mu mboga, yambaye ubusa, arimo kurwanya udusimba twangiriza imboga.

Umugore uhetse ipombo ya farumate, arimo gutera umuti imyaka. Hakurya ye hari umujyi munini cyane, amazu menshi, harimo amayetaje menshi, n'izindi nzu ziciriritse.

Abagabo bari mu murima w'ibigori bashyiraho imvaruganda yo ku bigori, imvaruganda ifasha ibigori kwihuta kongera umusaruro.

Umuti bari gusuka mu gapimisho, bagiye gutera umurima, urinda udukoko. Hari ibiganza bifashe icupa basukamo, ikindi gifashe iryo bari gusukamo.

Amafi yarobwe akiri mu gatimba, ni menshi, ni meza, ni manini, araryoha, akundwa na benshi ku isoko kuko ari mubyubaka umubiri.

Amafi matoya menshi ari mu bikurete. Yamaze kurobwa mu kiyaga. Akaba agiye kujyanwa ku isoko. Ni meza, akunzwe na benshi, araryoha, kuko akungahaye ku ntungamubiri.

Isambaza zarobwe bamaze no gukawusha ziraryoha. ziri mu ntungamubiri, zikunzwe na benshi ku isi, zirobwa mu kiyaga no mu ruzi.

Amafi ari mu dutebo, yarobwe mu kiyaga. Araryoha. Ari mu bwoko bwa tumusofoni. Akunzwe na benshi, kuko ari mu byubaka umubiri. Akungahaye ku ntungamubiri.

Abarobyi bari mu kiyaga bari kuroba. Bafite udutanda bari kurobesha. Bamwe bari mu mazi, abandi bari hejuru. Abandi bari gufotora abo bagabo barimo Kuroba.

Amafi ari hamwe, yamaze kurobwa agiye gutunganwa ajye kuribwa. Akunzwe na benshi kuko ari mu byubaka umubiri, akunzwe na benshi kubera y'uko ari mu byubaka umubiri.

Amafi matoya ari mu bwoko bw'isambaza araryoha, arobwa, mu kiyaga aracyari mu gatimba barobesha amafi matoya.

Amafi menshi cyane, kandi meza. Akunzwe na benshi ku isi. Arobwa mu kiyaga cyangwa se mu ruzi no mu bizenga abaturage bakora. Araryoha ni meza.

Indege ya polisi igiye kugwa ku kibuga. Irimo gushaka kugwa iracyazenguruka mu kirere, icanye amatara, iruhande rwayo hari inzu ihari, mu rundi ruhande hari itara rinini ririmo kumurika hasi.

Amafi yarobwe atondetse ku murongo, araryoha, ni meza, akungahaye ku ntungamubiri, akunzwe na benshi.

Ifi yamaze gushya, iri ku isahani harimo n'agasosi. Iraryoshe imeze neza, ikundwa na benshi kuko ikungahaye ku ntungamubiri.

Abarobyi bari kuroba isambaza, umugabo ufashe isahani ari mu mazi, umudamu arimo aritegereza isambaza yarobye undi arimo kureba kuri telefone ye yicaye mu bwato bambaye.

Ifi itetse neza ikundwa na buri wese, twavuga nk'iyi iriho: ifiriti, irongi, itomato, n'utundi turongo twiza turyoshya ifi.

Amafi menshi ari mu ipaniye, araryoha arobwa mu kiyaga cyangwa se mu ruzi, akundwa na benshi, amafi ni meza akungahaye ku ntungamubiri.

Icyuzi cy'amafi, hakurya yacyo hari imirima inyuzemo utuyira, icyuzi kivamo amafi, isambaza, amahera, n'indagara . Bikundwa n'abantu benshi.

Amafi ari muri firigo, yamaze kurogbwa. Ameze neza. Kuyabikamo bituma aramba. Araryoha, akundwa na benshi.

Amafi ari mu bikurete. Ni menshi, araryoha, akundwa na benshi, ameze neza, agiye kujyanwa ku isoko.

Amafi amaze kurobwa ni meza araryoha ameze neza. Akunzwe na benshi kuko akungahaye ku ntungamubiri, niyo mpamvu buri wese ayakunda.

Amafi abiri agiye gutekwa. Ameze neza ariho salade y'ironji, ibitunguru, inyanya na seleri. Ameze neza araryoha. Akundwa na benshi ari mu ipanu.

Umurima uhinzwemo ibitunguru n'ibishyimbo, hirya yawo hari umurima w'ibigori. Ibitunguru ni byiza biryoshya ibiryo bikunzwe na benshi.

Igiko kiri mu gishanga impande y'uruzi, hakurya hari imigano amazi arimo aratembera, igiko gisa neza igiko gikunze guterwa ahantu ku rugo cyangwa se ku mirima ni kiza kimeze neza.

Beterave itewe mu butaka, ntirasarurwa, ariko ni nini. Hirya y'aho hari izindi betarave zikiri ntoya, iyo yasaruwe yongera amaraso, ikundwa na benshi.

Ibiti by'inturusu byashibutse, ibindi batemye. Bivamo ibyo kubazamo inzugi, intebe, ugakoramo inkwi zo gucana n'amakara, adufasha no kubaka inzu zo kubamo.

Umurima urimo ubwatsi, ukaba urunzeho ibitaka. Hirya hari ishyamba rivanzemo ibiti n'urutoki, kandi ibiti bifite indabo. Ikirere kiri inyuma gisa neza gifite ibicu byiganje by'ubururu n'umweru.

Umurima urimo inzuzi z'ibihaza, zera ibihaza biryoshye, iruhande rwaho hariho umurima urimo ibyatsi, hakurya yaho hari ibiti.

Ibirayi biri mu murima bitari byera, bimaze kuyanga. ni byiza, biraryoha, biri mu binyamafu. Hirya yabyo hari ibigorigori bimaze kuma basaruyeho ibigori. Hakurya hari ishyamba ry'ibiti.

Umurima urimo ubuhinge uciyemo imyobo, harimo insina z'ibitoki, impande yawo hariho ubwatsi bw'umucaca.

Inzu yubakishijwe ibiti, iruhande rwayo hegetseho ibigorigori, imbere yayo hari igiti, hasi imbere hari ibigorigori bitemaguriye mu murima.

Ibiti bivamo imishingiriro yegetsweho ibigorigori byasaruwe mu murima w'ibigori, umurima usigaye nta kintu kirimo.

Umurima wasaruwemo ibigori. Ibigorigori bikaba byarasigajwe mu murima, kugira ngo bisasizwe ubutaka budatembanwa n'umukuku.

Umurima uteyemo ibinyomoro. Biteye neza ku murongo, ntibyari byera, harimo ibinini n'ibitoya. byamaze kugira amaro menshi, n'ibiri mu izamuka, bifite amababi, biteye neza ku murongo, mu murima wabyo gusa.

Urutoki rurimo ibitoki bitarera, biribwa. Ibitoki ni byiza, kuko bikunzwe na benshi. Byoroshya mu nda, bivamo imineke, biraribwa, havamo inzoga, n'umutobe, n'ibindi byinshi.

Karoti ziteye mu mirima itandukanye. Muri iyo mirima hagiye harabamo imyanya. Ziteye ku mirongo. Kandi karote zisa neza, zimeze neza. Hirya ya ho hari ibiti bitari byinshi cyane. Ikirere cya ho gisa neza.

Ibiti by'imigano, iruhande rwaho haciyeho akanyira, bivamo ibishgirizo, bikavamo ibiti bizitira inzu.

Umurima uhinzwemo amajeri ni uruyange ameze neza, iyo yeze ajyanwa ku isoko ,akundwa na benshi araryoha, nyuma y'uwo murima w'amajeri ,hari murima w'ibigori byeze.

Karoti ziri mu murima zimeze neza ntizari zera. Karoti zitukuza ibiryo, kandi zirinda indwara. Harimo ibigorigori byasaruweho ibigori, bikaba bishinze muri karoti.

Igiti cy'avoka kimeze neza munsi y'iki giti cya avoka harimo insina, hakabaho n'ibindi biti biri hirya inyuma yacyo, hakabaho n'indabo zisa n'umuhondo.

Amabuye y'igaraviye, akoreshwa mu kumena beto, akanashyirwa ahantu hanyerera, kugira ngo abantu bahanyure batanyerera, bakayakoramo umusenyi, uterwa ku nzu zigasa neza.

Isoko ry'ibiribwa harimo, umuceri, ibigori ,amavuta byose bikunzwe na benshi kandi biraryoha.

Amapera ya kizungu aciye, arunze ahantu hamwe ariko atondetse ku murongo. Amapera ya kizungu araryoha, akundwa n'abana n'abantu bakuru barayarya, abato, kubera uburyohe bwayo.

Mu murima w'imboga harimo umugore, urimo kugenda azihingira. Imboga ni nziza zikundwa na benshi, zikungahaye ku ntungamubiri.

ibishyimbo by'urunyumba by'amabara atandukanye. Ikivuvu, iroza, umutuku, umweru n'andi mabara menshi atandukanye. Ibishyimbo biraryoha, iyo ubitetse ntibigusaba inkwi nyinshi bishya vuba .

Ibidodoki na kokombure biri mu isoko, biri gucuruzwa .Ibidodoki biraryoha, bikunzwe na benshi kuko byoroshya mu nda na Kokombure ni nziza ,ikundwa na benshi kuko na yo ivura mu nda.

Umugabo uri muri pepiniyeri inyuma ye hari ahandi bantu benshi bari muri pepiniyeri, imeze neza kandi afashe igiti cya pepiniyeri bambaye bote yambaye n'ikoti arimo arerekana ubuhinzi bwe bwa pepiniyeri.

Abagabo bane bari mu bigori. Babiri bahetse amapombo batera umuti wica udukoko turi mu bigori. Undi arimo gufotora, undi aratambuka. Hirya y'aho hari abandi bari hirya kure. Hakurya hari igitari.

Umugore uri gukora ku nyana, arimo kuyishishira, yitambiye igitambaro, ahetse igikapu, yishimiye iyo nyana, imeze neza. Inyuma ye hari undi muntu, hirya ye hari ikinyomoro kiri mu gashyamba, hirya hari igisharagati gihari.

Amaronji y'umuhondo, atonoye ari mu isorori. Araryoha, afite umutobe mwiza, akunzwe na banish.

Abagabo batatu bari gusoroma inyanya, pavuro, imboga ibi byose bikunzwe na benshi, kandi babifite mu dusero twiza.

Ibigori bitondetse ku murongo, birasharitse bimeze neza n'amahundo bikaba bizavamo imbuto yo guhinga, bikavamo akawunga ko kurya.

Inanasi ziri mu murima, imwe irahiye, izindi ntizihiye. Izi nanasi ziraryoha, zikunzwe na benshi, kuko zifasha umuntu mu igogora.

Amaronji atarasarurwa ari ku giti cyayo. Asa neza afite ibara ry'umuhondo, n'amababi y'icyatsi. Araryoha agira umutobe uryohereye.

Ibijumba biri mu murima n'isuka biri gukurwa hariho n'imigozi y’ibijumba, ibijumba bitera imbaraga kandi biraryoha.

Isoko ry'ibirayi hari umucuruzi n'uje kugura, hirya yabo hari amaduka n'umugabo ufashe igare. Ibirayi biraryoha bikunzwe na benshi.

Amatunda yasaruwe ari mu ibase, atondetse neza kandi amatunda ari mu mbuto zirinda indwara, abana barayakunda kuko araryoha kandi afite akamaro kanini mu bana.

Umurima w'ibigori uri mu gishanga, bimaze kuyanga ariko ntibirera, iyo hakurya y'aho hari imisozi myiza, ikaba ikibaya gisa neza.

Isoko ry'ibitunguru ni ryiza. Biryoshya ibiryo, babirya hejuru y'ibiryo cyangwa se bakabikaranga mu mavuta bigahumuza ibiryo, maze abantu bakabirya bihumura neza.

Avoka ihiye ,itonoye, isatagujwe, igiye kubika iraryoha, ikunzwe na benshi, ivura mu nda, ikorwamo amavuta yo kwisiga mu musatsi.

Inkokokazi iri mu cyari ibundikiye udushwi twayo, tumeze neza, irakundwa, utu dushwi ni dukura tuzagurishwa tuvemo amafaranga, yongere itere amagi ibonemo utundi dushwi.

Umugore uri mu murima yikoreye ifumbire ry'imborera, hirya ye hari umugabo ufashe ku mpanga ufashe igiti. Ku rundi ruhande hari imyenda iri mu mirima aho baciye imyobo, hirya hari ishyamba rihari.

Igihaza gikasemo kabiri gifitemo inzuzi, ziraryoha zikundwa na benshi. Zivamo ifu ijya mu biryo barazikaranga zikavamo inzuzi zo guhekenya zikunzwe na benshi.

Umuririma w'ibigori harimo abantu barimo kurwanya ibyonnyi. Ni byiza kurwanya ibyonnyi mu bigori kuko utabirwanyije, umusaruro waba muke. Hirya yabo hari ibiti bihakikije. Hakurya hakaba amazu y'abaturage.

Imyumbati yakuwe ariko ikiri ku giti cyayo ikaba iryoha imyumbati iri mu bitera imbaraga ni myiza umuntu wayiriyeho yumva iryoshye cyane. kandi imyumbati ivamo ibintu bitandukanye. Bayikoramo ifu ...

Imyumbati wayikuramo ibintu bitandukanye, kandi imyumbati iri mu bitera imbaraga. Wayikoramo n'umutsima, wayiteka iyo ari imiribwa, iyo ari imitaminsi wayikoramo umutsima.

Ibigori byeze bikiri mu murima, kimwe hariweho n'inyoni, ibindi bimeze neza, bita amahundo, bimeze neza mu muririma wabyo.

Avoka ziri mu bikurete, za saruwe zigiye kujyanwa ku isoko, zikundwa na benshi kubera ko ziryoha, zivamo amavuta, zivura no mu nda.

Abagore babiri bari mu murima, umwe afite isuka akikorera n'imboga, undi afite agakoko kariho karoti, arishimye yambaye igisurubeti.

Imifuka myinshi irimo umuceri wamaze gusarurwa. Udufuka dusa n'umuhondo nibara ry'icyatsi, ni twiza twose dutondetse ku murongo mu nzu yubakishije amatafari.

Umugabo uri muri pepiniyeri afashe ibiti yatunganyije muri pepiniyeri. Ari kwerekana ko bimaze gukura, arasutamye, ameze neza kandi pepiniyeri ye imeze neza.

Umurima uriho amaterasi dinganire, ihinzwemo imboga, harimo abantu babiri bari gukorera imyaka iririmo, ukozwe neza, ntiwatembanwa n'amakuku kuko barwanyije isuri.

Umugore uri mu murima w'amatunda, afashe ku mugozi uri gutambagiraho amatunda, ateye ku murongo, inyuma yaho hari insina z'ibitoki. Uyu muririma uzitijwe n'uruzitiro rw'ibiti.

Ibigori byasaruwe bimanitse mu buhunikiro bitondetse ku murongo kandi birashayitse neza, ntibyahura n'imungu kubera ko babishyize ahantu heza bikaba binahanye umwanya.

Umugore uri mu murima uri gutera umuti mu gori. Bari kurwanya ibyonnyi byona imyaka. Akaba ahetse ipombo y'ubururu yipfutse igitambaro cy'ubururu ariko ntiyambaye imyenda yabugenewe mu gutera umuti

Umurima w'ibigori byeze neza bihetse bibiri, umugabo arimo kubifataho areba ubwiza bwabyo.

Ibijumba byakaroti biraryoha barabiteka bikorwamo imigati n'amandazi akundwa na benshi.

Imyumbati n'amateke biraryoha, bikundwa na benshi, biri mu bitera imbaraga kandi ikaba no mu binyamafufu, bikunzwe na benshi ku isoko.

Amapera, hariho irisatuye rifite imbuto mu nda, amapera araryoha akundwa na benshi, akorwamo inzoga, andi akorwamo umutobe.

Amapera ya kizungu, hari asatuyemo kabiri, hakaba n'irindi ryibumbye rifite ibabi rimwe, amapera ya kizungu araryoha kandi akunzwe na benshi.

Amateke yinyobera araryoha. Aribwa n'abantu benshi. Akunzwe isoko. Iyo uyatetse uyarya uyatonoye agira amafufu kandi ari mu binyamafufu

Isoko ry'ibiribwa n'imbuto: karoti, intoryi, inyanya, marakuja, amaronji, amatunda, ibinyomoro, n'amashu.

Umurima w'ibirayi. Harimo abagore barimo guhingira ibirayi. Hakabamo ibigori biteyemo biteze. Ukaba ufite imigenda itwara amazi igihe imvura yaguye.

Umurima w'ibigori, harimo abagabo babiri bari guteramo umuti wica udukoko. Bahetse amapombo manini, yabugenewe gutera umuti wica udukoko. Imbere yabo hari abandi babiri barimo gufotora.

Umurima uhinzemo ibirayi, abagoronomu barimo kugenda batambagira bareba ko ibirayi bimeze neza, bihinzwe ku murongo neza, barwanyije isuri, ku buryo umurima utatembanwa n'isuri.

Amagi yamaze kuvanwa mu cyari cy'inkoko, ari k'udukurete dutondetse neza.

Umugabo uri mu murima ari kuhira ibitunguru birimo ari gukoresha rozwari yambaye isarubeti y'icyatsi n'ingofero y'icyatsi

Amacunga asoromwe n'amababi ameze neza, ibara ry'umuhondo agira isukari iryohereye akundwa na benshi.

Barimo gusuka amata mu gikoresho cyabugenewe. Amata araryoha. Ari mu byubaka umubiri. Akuzwe na benshi. Umuntu wayanyoye, akura neza.

Imineke ya kamara iraryoha, ikundwa na benshi. Ikaba ifasha umuntu mu igogora. Ikaba ifasha abana kuba bakwituma neza.

Umurima w'ibigori uri mu gishanga, umeze neza, ntibyari byera bimaze kuyanga. Ibigori biraryoha, tubirya ari bibisi, byumye, bivamo ifu.

Igitoki cya fiya kiraryoha kivamo inzoga, imineke. Gitezwe n'inkingi eshatu inyuma yacyo hari umudaso ufashe inyuma.

Umurima w'ibireti, harimo abari gusarura ibireti. Bikorwamo imiti. Ni byiza kuko bifitiye akamaro abantu benshi. Bivamo ibintu bitandukanye harimo imiti...

Imyumbati iri mu murima iteye itari yakura, ifite amababi meza, kandi aya mababi yavamo isombe; imyumbati iraryoha, iyo ari imiribwa wayikoramo iyo kurya, iyo ari imitamisi wayikoramo umutsima.

Ibitoki byinshi cyane n'abantu barimo guhaha ibitoki. Hirya y'aho hari ibijumba, inyanya n'ibindi birungo. Abantu bari gucuruza ni abadamu, n'abagabo kandi nabahaha ni abagabo n'abagore.

Abagoronome bari mu murima, bagiye gusura ibishyimbo by'umumero, abahinzi bafite ibishingirizo byo gushingirira ibishyimbo.

Inkoko y'isake iri kugenda mu murima urimo ubwatsi, ni nziza, imeze neza, irabika, isumba inkokokazi.

Umurima w'icyayi harimo abagore bari gusoroma icyayi, bafite ibitebo barimo kugenda basoromeramo icyayi.

Umurima w'ibigori, harimo abakozi bari kugenda bashyiraho inyongeramusaruro, kugira ngo bise neza kandi bizatange umusaruro mwiza.

Ibihaza byasaruwe mu murima wabyo. Ibihaza biri mu bitera imbaraga. Biraryoha bimeze neza, ni byinshi kandi biri ku butaka ni ho byashyizwe.

Umurima wibigori byeze. Birimo gusarurwa n'abagabo n'abagore. Bizavamo impungure, igikoma, bivemo umutsima, bivemo ifu y'igikoma.

Amaronji ni meza asa neza, asa n'umuhondo, rimwe riratonoye, ayandi ntatonoye. Hari agifite utubabi ku mukondo watwo, andi asoromye neza.

Isoko ry'ibiribwa , harimwo pwavuro, intoryi, imiteja, ndimu, na sereri . Biri ahantu heza hatondetse neza bikunzwe na benshi biraryoha.

Umugore urimo gusoroma icyayi mu kibaya, ahetse igitebo arimo gusoromeramo, arishimye, kuko ari kubona umusaruro mwiza mu cyayi gikunzwe na benshi, kuko kimara imbeho iyo bakinyoye.

Umugore urimo guhinga yambaye ibirenge inyuma ye hari umugabo nawe wunamye arimo guhinga ,hirya hari abandi barimo guhinga ku musozi. Ubuhinzi ni bwiza kuko butanga ibyo kurya.

Ibirayi binini biri mu isoko. Ni byiza bya Kinigi. Bikunzwe na benshi, biraryoha. Impande yaho hari abagore bari kugenda, umwe yikoreye ikurete irimo amashu.

Ibigori biri mu nzu y'ubuhunikiro, bumeze neza bwubakishijwe amabati y'umutuku ku ruhande, hakaba hashinzwe ibiti, hakaba n'ibindi bitambitse bigiye biriho ibigori, hasi yaho hari ibisigazwa byavuye kuri bya bigori.

Imyumbati myinshi iri ku giti, barambitse ku igare. Imeze neza, iraryoshye. Hirya hari abantu benshi b'abadamu, bariko kuyitegereza, n'umugabo uyitwaye ku igare.

Avoka enye zikiri ku giti cyazo ,avoka ni nziza ivamo amavuta ,kandi iranaribwa, iryoha ni nziza ku muntu wese uwo ari we wese wayirya.

Inyanya ziri mu murima. izeze n'iziteze. Izisa n'icyatsi n'izisa n'umutuku. Ziryoshya ibiryo, zikundwa na benshi.

Isoko ry'ibiribwa harimo abagore bari gusogora intonore, hari izamaze gushirwa ku nkoko zasogowe, hari n'izindi bagisogora, zimeze neza kandi ziraryoha.

Imyumbati yasaruwe mu murima, iratonoye ivamo ifu ubundi tukayirya, iyo ari mitamisi ivamo ubugari, ari imiribwa turayirya.

Intoryi ziri ku mifungo, hirya yazo hariho inyanya, ziraryoha kandi zigira ibiryo neza, izi ntoryi zikungahaye kuri karisiyamu.

Abagore barimo gupakira ibirayi mu mifuka, babikuye mu murima. Hirya y'aho hari abandi bagikura ibirayi. Kandi ibi birarayi biraryoha, kuko bikunzwe na benshi cyane ku isoko, no mu mahanga bakunda ibi birarayi.

Inkwavu eshatu ziryamye ahantu heza, zimeze neza imwe ifite ibara ry'umweru n'umukara, indi ifite ibara ry'umweru rifite n'ubundi n'umukara ziraryoha.

Ibirayi byinshi byakuwe mu murima bikaba biri mu nzu y'ubuhunikero, bikunzwe na benshi muri iyi si kandi bikaba bikorwamo ibintu byinshi bitandukanye, bitekwamo ifiriti, bitekwamo ibiraha, ubitekamo n'umureti maze ukarya, kandi bikaba biri mu binyamafufu.

Amateke ya bwayisi ahingwa mu gishanga kirimo amazi. Araryoha, akaba atera imbaraga. Akunzwe na benshi.

Ibigori biri kotswa ku mbabura. Hari ibihiye n'ibidahiye bitonoye. Ibindi biri mu mufuka ntibiratonorwa. Biri gucuruzwa n'umudamu, biraryoha.

Igihaza cyasaruwe mu murima kimaze gukatwa, kigiye gutekwa, kiraryoha ni cyiza gikundwa na benshi kuko gitera imbaraga.

Amapera ya kizungu ari mu giti. Atondetse ku murongo kandi aracyari ku giti cyayo . Harimo n'amababi meza , ayo mapera araryoha ni amwe mu mbuto ziryoha abana bakunda cyane.

Imbuto z'ibiribwa harimo amaroji ari mu ibasi, imyembe, wotameloni iri hejuru y'igikarito, imbuto ziri mu birinda indwara, ziraryoha zikundwa na benshi.

Avoka ikaswemo kabiri ni nziza iraryoha ntabwo itonoye imwe irimo ikibuto indi nta kibuto kirimo. Ikibuto cyayo ni kiza kivura igifu kandi avoka ivamo amavuta.

Amagi ari mu gikurete cyabugenewe kijyamo amagi, akunzwe na benshi, akungahaye kuntungamubiri, ava ku nkoko igihe yateye igi, bakagenda bayabika kugeza igihe agwiriye.

Abagore n’abagabo barimo gukora ifumbire, umugore ari gushinga igiti, umugabo agasukamo imyanda ibafasha gukora ifumbire nyuma yaho hari umurima urimo utwatsi dukeya.

Isoko ry'ibiribwa harimo ibirayi, karoti, imyumbati, imiteja n'imboga. Ibi byose ni byiza kandi biraryoha. Hirya y'aho hari ibisandugu babikamo ibisigaye bitacurujwe.

Puwavuro ziri ku mufuka, zifunze udufungo. Hirya hari inyanya ziri mu gapaniye. Hakaba ibase iririmo ubusa. Bikaba biteretse ku mapave.

Umugabo ufashe igihaza mu ntoki, agiciye mu murima urimo ibigori. Inyuma ye hari ishyamba ry'inturusu nziza zivamo ibicanwa, amakara cyangwa se inkwi.

Abagore bari guhingira inanasi zitari zayanga, barimo guseka bishimiye umusaruro umeze neza w'inanasi.

Inkokokazi n'udushwi twayo. Dukikije inkoko nini, udushwi tumeze neza. Itanga umusaruro uva mu magi, inkoko iba yateye.

Avoka zikiri mu giti zitarasarurwa, zimeze neza n'ubwo zitarera, ziraryoha zikunzwe na benshi, zikorwamo amavuta yo kwisiga.

Abagabo n'abagore bari mu murima bashyiramo ifumbire y'imborera mu butaka, barimo gukorera ubutaka kugira ngo babone uko bashyiramo ibihingwa, bamaze gushyiramo imborera.

Umugabo uhagaze mu murima w'amatunda, ari hagati muri wa murima urimo amatunda. Amatunda arashingiriye, hari utugozi arimo gutambagiraho, inyuma ya wa mugabo uhagaze muri wa murima.

Isoko ry'imbuto z'avoka, harimo abazizanye ku isoko n'abaje kuzigura, ni abagore n'abagabo barimo kuzigura no kuzicuruza, voka ni nziza zigira amafaranga.

Intoryi nyinshi zasoromwe mu murima, ni nziza ziraryoha, zikunzwe na benshi, zikize kuri karisiyumu, zivura ikirungurira, kandi kuzihekenya ni nziza.

Umugore uri mu muririma ari gusarura karoti, karoti nziza ku bantu barwaye amaso, ziryoha zitetse ku biryo zisa neza, umugore yishimiye umusaruro ari kubonana mu murima we.

Amatunda ari mu murima atari yera, ameze neza kandi atondetse ku murongo, harimo amanini n'amatoya, ameze neza nyine amatunda araryoha, n'umutobe cyangwa se Ji, abana barawukunda ariko n'abantu bakuru bagomba kunywa kuri Ji y'amatunda.

Umugore wishimye afite isuka ku rutugu, yiteze igitenge yambaye ishati y'umutuku, akenyeye ikindi gitenge, ameze neza ari mu kibaya

Imiteja isoromwe, ikaba iri mu gapaniye k'icyatsi, iri ku murongo itondetse neza, ikunzwe na benshi,

Ibirayi by'imbuto y'indobanure, byiza, biri mu mufuka. Biraryoha. Ni bimwe mu binyamafufu. Ibirayi ni Kinigi iraryoha, ikunzwe na benshi cyane kubera uburyohe bwabyo.

Imbata zirimo kugenda ku butaka butariho ibyatsi. Imbata zitera amagi manini kandi ziraryoha. Imbata ntizikunda ahantu hataba amazi, kuko iyo zitabonye amazi yo kunywa ziraguruka. Imbata iyo uyitayeho iguha umusaruro.

Ibinyomoro bitarasarurwa biri mu murima bifite ibitoki byeze n'ibiteze, ibinyomoro biri mu birinda indwara kandi bikaba n'intungamubiri, bikunzwe na benshi, bikenerwa na buri wese.

Ibihaza byiza bitondetse neza biri ku isoko, abagabo babiri bari hano hafi, abagore bari hirya barimo kubireba bimeze neza biraryoha.

Amajeri ari mu murima atarasarurwa. Ntibyari yera, araryoha. Akundwa na benshi, akunzwe mu Gihugu no hanze yacyo.

Koperative y'abadamu, bari kurobanura impungure z'ibigori, bambaye bose udupfukamunwa bameze neza, buri wese ahugiye mu kurobanura imbere ye.

Umugabo uri mu murima w'icyayi arimo gusoroma icyayi ahetse igitebo mu mugongo umugozi ufashe mu mutwe yambaye ingofero ,hirya ye hari umwana.

Ubutaka budahingwa burimo umucaca, haruguru hakaba hari inzu zizitijwe na senyenge, hakaba hari ishyamba rizitijwe na sipure, hakurya hakaba ikirunga cyiza cyane, gifite ibihu byeyuye.

Ibigori by'amahundo bisa n'umuhondo biraryoha. Barabyotsa, bakabiteka, bakabihunguramo impungure.

Abana bari mu mutaka, bamwe baricaye abandi barahagaze, bari gukura ubunyobwa. Ubwo bamaze gukura babishyize mu base. Inyuma yabo hari ishyamba...

Ubunyobwa ni umutuku buraryoha bukoreshwa gukora isosi, buraribwa ari bubisi, bukaranze, bukorwamo ifu yo gushyira mu biryo, bukorwamo n'amavuta.

Ibigori by'amahundo bishayitse ku mugozi. Ibigori ni byiza, bisa neza, biraryoha, bivamo igikoma, umutsima na kawunga.

Umuceri uri mu gishanga wuzuyemo amazi. Harimo umuntu urimo gukorera uyu muceri. Impande yaho hakikijwe n'ishyamba ry'ibiti.

Igihwagari kiri mu murima kitarera gifite uruyange, ikindi kirapfundura kimeze neza kiratoshye, iyo gisaruwe kivamo amavuta.

Umugore urimo kugosora ibigori arishimye. Ari kugosoza agakoko gatoya . Hirya ye, hari inzu ituzuye neza , n'igisharagati.

Ubwatsi bwa kameroni bw'amatungo. Ni bwiza, iyo ubufite amatungo yawe araburya, agashisha yumva, bukunzwe na benshi kuko bose ari bwo bagabura. Kugira ngo amatungo aku neza.

Ubunyobwa buri mu murima uteye bumeze neza, buri ku murongo, bufite ibara ry'icyatsi, iyo bweze barasarurwa buraryoha, bakundwa na benshi.

Umurima w'amasaka atari yera. Araryoha. Avamo impeke zitanga ifu y'igikoma, ifu y'urubetezi, avamo umusururu. Araryoha, akundwa na benshi.

Ubunyobwa budatonoye butarasarurwa. Ubunyobwa buraryoha, uburya bukaranze, ukoramo ifu yo gushyira mu biryo, bukunzwe na benshi cyane kuko ni kimwe mu byunganira, mu bigira ibiryo neza. Buraryoha ni yo mpamvu bukunzwe na benshi.

Umugore uri mu murima w'ubunyobwa. Araburanduye abufashe mu ntoki. Nta bwo arasoroma, aracyabufashe mu ntoki. ari kwereka abantu. Arimo kureba hirya ye kandi inyuma ye hari ishyamba ry'ibiti rihari.

Ibishyimbo bivanze n'ibigori, ibibanza ni ibishyimbo, hagakurikiraho ibigori, hirya y'aho hari ishyamba ry'ibiti bya sipure. Ibishyimbo bihinzwe mu dukurete, hagati hakaba hanyanyagijemo udutaka tumeze neza.

Ibigori by'amahundo bashyize ku mufuka bimeze neza, byatunganywamo imbuto y'ibigori y'indobanure.

Ibishyimbo binini biryoha byerwa mu rugo kandi bikanavangwa n'ibindi bihingwa biraryoha bikunzwe na benshi bigira intungamubiri.

Abagore barimo guhura ibishyimbo, iyo uhuye ibishyimbo, bikava mu bishishwa ni byiza, kuko uba ugiye kubika umusaruro wawe neza, kugira ngo utazangirika.

Imiteja irunze ahantu hamwe iraryoha kandi iva mu bishyumbo by'imiteja, ikunzwe na benshi cyane kuko idasaba ibirungo byinshi ni myiza buri wese yayiryaho kuko iryoha.

Ibigori biri mu buhunikiro bipfunditse neza kandi bitondetse ku ku murongo ntaho byahurira n'imungu kuko biri mu buhunikiro bihura numuyaga kandi biri ahantu heza.

Ibishyimbo bifite imiteja n'uruyange. Imiteja iraryoha. Ivamo ibishyimbo by'intonore cyangwa se ibyumye. Biraryoha bikunzwe na benshi.

Umugore urimo kurobanura ibishyimbo byo gutera, yambaye agapfukamunwa ari gufata ibipfu akabikura mu bizima, inyuma ye hari abandi bari kurobanura, hepfo yabo hari moto.

Amasaka meza yeze y'umutuku, ameze neza. Amasaka ushobora kuyakuramo ubushera, cyangwa se ukayakuramo n'igikoma cyangwa ukayabeteza.

Imifuka myinshi irimo impungure z'ibigori bimeze neza, iyo ubibetesheje bivamo umutsima, kawunga, n'ifu y'igikoma.

Amajyeri y'ibisate . Amajyeri araryoha ,ameze neza, yitwa urunyogwe . Uyateka mu birayi ,mu gitoki ,aranaryoha, akundwa na benshi ku isoko.

Umurima w'ibigori byumye. Umeze neza. Nibisarurwa ibigorigori bizashirwa mu murima kugira ngo bifate ubutaka. Budatembanwa n'amakuku. Hakurya y'umurima w'ibibigori, hari umurima uteyeho ibiti, urutoke.

Umugore uhetse umwana arimo kugosora ingano, umugore yambaye neza igitambaro yakindikije igishura ku mwana, ingano zivamo umutsima wo kurya, havamo imikati n'ifu y'igikoma.

Ibigori by'amahundo byasaruwe, biranitse ni byinshi bimeze neza, bivamo impungure, ifu y'igikoma, kawunga ni byiza bikunzwe na benshi.

Ibigori by'amahundo bipakiye mu mufuka, bifite amasaro meza. Ni imbuto nziza y'indobanure, bikundwa na benshi kuko biryoha.

Ibigori bihunguye harimo ikigori kidahunguye, bifite impeke nziza ni byiza bivamo imbuto yo kongera gutera, bivamo umutsima, kawunga, igikoma.

Isoko ry'ibiribwa, harimo ibishyimbo by'umutuku ,inyanya ibigori. Harimo abantu bari guhaha ,umunzani n'isahani yo gupimisha ibishyimbo n'inkoko yo kubigosoreraho.

Ibigori by'amabara bya tamira. Byakuweho ibihu. Bifite amabara umukara, umuhondo, umutuku. Biraryoha bikundwa na benshi.

Inzu y'ubuhunikiro yubatse neza nta myaka irimo, imbere yaho hari ikibuga kitariho ubwatsi, hino yacyo hari itandaro tububatse.

Abahinzi bari guhinga mu gishanga cy'umuceri. Ni abagabo n'abagore. Ku ruhande hari umugenda utwara amazi, winjiza mu muceri amazi cyangwa se ukanayavanamo, igihe yabaye menshi.

Amajeri ameze neza atarasarurwa. Amajeri araryoha akundwa na benshi kuko aryoha. Ateye ku murongo, hari utugozi tugiye dusobetsemo kugira ngo atagwa hasi.

Ibishyimbo by'amabara atandukanye, umutuku, umukara, umweru, ikijuju n'umweru, umukara n'itaka, hariho n'amajeri.

Umugabo yikoreye ibishyimbo by'intonore, abihambirije umufuka w'igitandure, afashe umuhoro, yafashe ku bishyimbo.

Ibihwagari byeze. Bimwe biratonoye, ibindi ntibitonoye. Bivamo amavuta meza yo guteka akunzwe na benshi, kandi araryoha.

Ibihwagari bigabyemo ibice bibiri Hagati ya byo harimo inzira. Bimaze kuyanga. Bifite indabo nziza. Bivamo amavuta yo guteka. Ni ibyiza, bikunzwe na benshi.

Ubunyobwa busaruwe kandi butonoye. Ubunyobwa buraryoha waburya ari bubisi, waburya bukaranze, waburya wabukozemo ifu, ushobora kubuteka cyangwa se ukabuhekenya, buravura mu nda abantu bagira ikibazo cyo mu nda.

Umuceri wayanze utari wera. Usa neza kandi umeze neza. Umuceri uraryoha, ukunzwe na benshi. Abana barawukunda, abakuru, hirya no hino umuceri urakunzwe kuko uraryoha.

Ubunyobwa bukiri mu bishishwa butaratonorwa, buraryoha iyo wabutonoye ubukuramo imbuto yo gutera ubujyana ku isoko bukaguha amafaranga, buraribwa iyo ari bubisi ariko butonoye n'iyo wabukaranze.

Ubunyobwa budatonoye nibwiza buraryoha, iyo ubutonoye ubujyana ku isoko bakaguha amafaranga, bukavamo ifu yo gushyira mu biribwa bukavamo ubwo gukaranga impeke ukanazihekenya ari mbisi.

Ubunyobwa bukiri ku giti cyabwo n'imizi yabwo, imeze neza irera itanga umusaruro, buraryoha iyo wabusaruye urabutonora ugakuramo impeke zo mu nda, buraribwa kandi twumva buryoshye.

Imbuto z'igihwagari zivamo amavuta iyo ashyizwe mu ruganda. Zasaruwe zishyirwa mu gatebo keza gateretse ku meza.

Ibishyimbo by'indobanure biri ku gakoko hejuru y'agatandaro kameze neza bihingwa mu binyamisogwe biraryoha, bihingwa na benshi.

Ibishyimbo biri mu mufuka w'imbuto itandukanye birimo: imbuto irobanuye n'imvangavange. Iby'umutuku nibyo ndobanure ibindi bikaba ari uruvangavage.

Ibigori byumiye mu bishishwa , Bireze. Ni byiza. Bimeze neza. NI imbuto ya iburide. Ikunzwe na benshi, kuko itanga umusaruro.

Umugabo uri mu ifamu y'inka, arimo gushishira inka, yambaye agapfukamunwa, yambaye ga. Bigaragaza ko ari umuveterineri, urimo kureba ko zaba zirwaye.

Ingurube yabwaguye ibyana byiza, iraryamye irimo kubyonsa. Iyi ngurube ni nziza, itanga umusaruro mwiza, mu bwoko bwa piyetara.

Inka ziri mu rwuri zirimo kurisha, zigiye zitandukanye mu dukipe, hari iziri hirya cyane n'iziri hino. harimo n'inyambo. Hirya y'aho hari ibiti by'inganzamarumbo biri hirya.

Umugore asigatiye umwana w'intama, arishimye, yipfutse igitambaro cy'umufumo. Inyuma ye hari inzu yubakishijwe ibyatsi, hirya hari indi iriho imifuka.

Ihene nyinshi, ziri mu ifamu zimeze neza, zifite amabara atandukanye, zikunzwe na benshi, ziribwamo inyama zigakundwa n'abantu batandukanye.

Inkwamvu nyinshi ziri hamwe, ziraryoha zikundwa na benshi, zitanga inyama nziza ziryoshye.

Inkoko z'isake zihagaze ku muronko zose, zimeze neza ziraryoha zitanga inyama kandi zivuga neza, zihagaze ku giti.

Inka zihagaze mu kibuga kitarimo ubwatsi bwinshi, hirya y'aho hari ihema ryubatseyo ririmo abantu, zihagaze neza zimeze neza ni inzungu ntabwo ari inyarwanda kandi zitanga umukamo.

Ihene ziziritse mu gitari, zimwe ziri kurisha, izindi zirahagaze ntiziri kurya. Hari abantu babiri barimo, hirya hakabayo n'undi muntu, uri hirya ku mpera mu biti. Izi hene ni nziza zitanga akanyama karyoshye ka burushete.

nka y'imbyeyi n'inyana yayo, imbyeyi iraryamye inyana irahagaze imeze neza ,ni inzungu, iyi mbyeyi itanga amata, iyi inyana ikonka na yo igatanga, umusaruro ikora ifumbire ikoreshwa mu butaka.

Inka ziri mu mugezi utemba ziri munsi y'imisozi miremire igizwe n'ibyatsi byinshi. Zimeze neza, hakuno hari abantu barimo kuzireba.

inka ziri mu ifamu ziri kurira mu kibumbiro. Zose ziri kurira hamwe, imwe irahagaze ifashe ibyatsi mu kanwa, izindi zunamye mu kibumbiro ni ho ziri kurira. Zose zimeze neza harimo amabara atandukanye.

Udushwi tw'inkoko turi mu cyari, ntiturakura turacyari mu ituragiro mu nzu, aho tugomba kuba mu cyari. Utu dushwi dusa neza, tumeze neza, ni ubwoko bwiza bw'inkoko zitanga umusaruro.

Umwana ushoreye Inka y'ibara ry'umweru n'umukara, agenda areba inyuma afite inkoni, imbere ye hari umugabo ukurura inka, hakaba n'indi y'umukara, iruhande rwabo hari amazu y'abantu bahicaye.

Abagabo babiri bapfukamye ku nka bayiryamishije hasi, umwe yafashe ukuboko undi yafashe ku mutwe, iyi nka isa nk'ikijuju.

Ibibwana by'ingurube bimeze neza, biri hanze birimo gukina. Inyuma yabyo hari inzu yubakishijwe, amategura n'amatafari ahiye, hakurya y'iyo nzu, hari uruzitiro rw'imbabari.

Inka iryamye mu bwatsi bw'uruvange harimo uturabo indi nta turabo, isa neza afite amabara abiri iry'umweru n'iry'igitaka yambaye iherena, iyi nka ni inkungu nta mahembe igira.

Ingurube n'ibyana byayo irimo kubyonsa. Ibyana ni byinshi kandi ni ubwoko bwiza, butanga umusaruro. Izi ngurube ni Randarasi, ubwoko butanga inyungu ku borozi.

Inkoko zisake zikunzwe na benshi, zitanga umusaruro mwiza n'inyuma zishonda inkokokazi, zitanga umusaruro mwiza zirabika iyo ari mu masaha y'igitondo, sa sita na nimugoroba.

Ingurube ifite ibyana. Iyi ngurube ni ubwoko bwiza imeze neza, ifite n'ibyana byiza. Iri mu kiraro cya kijyambere gikozwe neza.

Imbwa ziri kushuri, imwe iricaye, indi iraryamye, indi irahagaze, ni mu kibuga hari abantu bari kumwe nazo, mbwa zirinda mu rugo

Inka nyinshi ziri mu ifamu, ni nziza zimeze neza. Harimo umukara, ikijuju, zifite amabara, ziri mu ifamu imeze neza, zirimo kurira ahabugenewe, izi nka zitanga umukamo mwiza.

Inkoko n'ihene, inkoko ziri gutoragura, ihene ziraziritse zirimo kurisha, ziri ku gipangu, inkoko ziri gutoragura hasi mu murima.

Inkoko ziri munzu y'ifamu, harimo inkokokazi, isake, zose ziri hamwe zimeze neza, zitanga inyama.

Ingurube yabwaguye mu ifamu imeze neza, umugabo arimo gukora ibyana by'ingurube abyegereza ingurube nini kugira ngo bibashe gushobora konka.

Umugabo uri mu ifamu y'ingurube. Akoze ku ngurube kandi izi ngurube ni iza Piyetara. Zitanga umusaruro mwiza. Izi ngurube zitanga inyama nyinshi cyane kuko, ubu bwoko bw'izi ngurube ni bwiza cyane.

Inkoko y'isake, ni nziza ifite ururokoroko rwiza. Mu gitondo irabika, kandi irashonda inkoko kazi, iraryoha.

Inkoko y'isake irakokoza, isake ishoza inkokokazi, irabika isake, inkokokazi irateteza, kandi itera amagi ikayarura, akavamo udushwi.

Ingurube, impfizi nini nziza cyane. Abanyeshuri biga ubuveterineri baje kuyireba, bose bambaye imyenda yabugenewe yo kujyana mu kazi.

Ingurube yarwaye irimo kuvurwa. Veterineri afite icupa arimo kuvomamo umuti ayitera. Umushumba na we arayifashe arimo kuyishyishyira kugira ngo babone uko bayitera umuti.

Inkoko ziri mu ifamu imeze neza, ni nyinshi, zirasa neza, n'ibara ry'umweru, zitanga umusaruro mwiza, zitanga amagi aryoha ,zikorwamo inyama.

Inka ziri mu rwuri zimwe ziri kurisha, izindi ziri kugenda zimeze neza zifite amahembe , harimo izifite ibara ry'umukara igaju, hakabamo izifite n'ibara ry'umukara.

Udushwi tw'inkoko tutarakura, turacyari mu isasiro aho duturagirwa, ni twiza: zivamo izitera amagi, zigatanga inyama, kandi zikunzwe na buri wese.

Ingurube iryamye n'ibyana byayo irimo kubyonsa, iyi ngurube isa n'umukara, n'umweru. Ibyana byayo bisa n'umukara, n'umweru bikaba ari ubwoko bwa piyetara bwiza butanga umusaruro ku borozi.

Ihene eshatu umugabo arazifashe, umugore afashe ubwatsi abufatiye hejuru, hirya yabo hari kandagira ukarabe hakaba ikidomoro, ku rundi ruhande hari ibiraro by'amatungo inyuma yaho hari ibiti.

Abanyeshuri biga kuvura amatungo, bakaba ari aba veterineri. Bakaba bambaye iniforome, bambaye udupfukamunwa, bambaye na bote z'umweru.

Ingurube ziri mu ifamu zikaba mu kiraro kimwe. Izi ngurube zimeze neza, ni ubwoko bwiza bwa pitara, zirabyibushye kandi ziraryoha.

Abaveterineri bafashe ibyana by'ingurube, ni byiza, bitanga umusaruro, bigira inyama iryoshye ikunzwe na benshi, ni ubwoko bwiza bwa piyetira.

Umugabo ari gukama inka y'imbyeyi, ari gushyira amata mu kadobo gatoya. Inka y'imbyeyi ifite icebe rinini, iri mu kiraro kimeze neza.

Inka iri mu kiraro y'inyambo. Iteze neza ifite amahembe manini, yambaye iherena. Iri mu kiraro cyubatswe neza, iri ku isasiro ryiza.

Abaveterineri barimo kuvura ingagi irarwaye. Bayiryamishije hasi barimo kuyitera inshinge, bambaye uturinda ntoki n'udupfukamunwa, bambaye n'inkweto zifunze.

Ingagi ziri mu ishyamba zirimo kugenda zimeze neza zizana amadovize mu Rwanda kandi zikurura ba mukerarugendo ni byiza.

Ingona yo mu mazi iri ku musozi ku butaka, iri gushaka kwinjira mu mazi iturutse mu ishyamba, iyi ngona iraryana yo mu mazi abantu bose bagomba kuyitondera bakayijya kure ntibayijye hafi.

Umuyongoyongo uri mu gishanga. Uhagaze hejuru y'ibyatsi, ukunda gushaka udusimba mu mazi. Ugenda ucumamo umunwa wawo muremure.

Inzovu iri mu ishyamba imeze neza, ifite umugobora n'iryinyo ryahingutse, inyamaswa iba mu ishyamba ntikunda kuyomba cyane.

Inyoni ebyiri zihagaze ku giti, zimeze neza zirabyibushye, zifite amabara atandukanye, imwe ifite ibara ry'umutuku, indi ni umuhondo, zimeze neza ziri mu biguruka mu kirere.

Ingagi iri mu ishyamba. Ni nziza zizana amadovize mu Gihugu. Zikunzwe na benshi. Ntizikunda gusagararirwa ahubwo uzisuye aca bugufi.

Imparage iri mu kibuga, inyamaswa iba mushyamba. Imparage isa neza, ifite amabara y'umukara n'umweru. Izepiru ihagaze mu kibuga cyiza gifite ubwatsi butoshye, hirya yayo hari ishyamba.

Inyoni nziza ihagaze ku giti, imeze neza, irasamye cyane, iri kureba, ifite ibara ryiza.

Imbata nziza iraryoha, itera amagi manini meza, zikunzwe na benshi. Imbata iyo zibuze amazi ziraguruka.

Ingagi ni nziza zikurura ba Mukerarugendo, kandi zizana amadovize mu Rwanda . Ziba mu birunga mu mashyamba nti zikunda abantu bazisagararira kuko iyo uzisagarariye zikwangiriza.

Umusambi ni muremure ufite umunwa muremure, ifite amabara y'umweru, iri mu ishyamba irimo gushakisha udusimba two kurya, umusambi urahiga mu gitondo cya kare cyane.

Umusambi uri mu gishanga. Umeze neza, ufite umusatsi, ukagira ibirokoroko, ni muremure. Mu gitondo iyo bukeye urahiga.

Umwana w'umuhungu ufashe umutubu. Ni mu bwoko bw'ibikeri kuko uba ugenda utaragurika. Inyuma ye hari imbaho zubatse inzu.

Igisiga cyafashe ifi mu kiyaga, ni nko kuyigurukana gikunda kurya inyama, gikunda kuguruka mu kirere kiba mu giti.

Igihangara kiri hasi kirimo kugenda. Igihangara kiba mu ishyamba, impande yacyo hariho uturabo twiza, dusa neza.

Umuyongoyongo uri mazi, ukaba uri mu ngezi umuyongoyongo ni mwiza muremure usa neza. Iyo ari mu gitondo uravuga, ukunda guhiga akenshi.

Inyoni y'inyamanza ihagaze mu bwatsi. Ifite amabara y'umweru n'umukara. Iyi nyoni ntiyomba ikunda kujwigira kandi iritonda. Ntikunda kona nk'izindi nyoni.

Igikona gihagaze ku giti kimeze neza, kigira isuku gifite amabara meza umukara n'umweru kiba mu cyari.

Inyoni y'ifundi imeze neza, ifite ibara ry'umutuku, n'ikijuju. Ihagaze ku butaka, imeze neza, iraguruka mu kirere, kandi ikunda kuba mu ishyamba.